Mu buvuzi ni byiza ko abana bitabwaho cyane kugira ngo bahakurikiranwe neza ubuzima bwabo ndetse bitaba byabagiraho ingaruka yo mu mikurire yabo.

Abantu bazwiho gukora akazi k'ubu ejenti bwa MTN, usanga batanga serivisi nziza kandi zihuse aho iyo ukeneye amayinite bayaguha ndetse bakanakubikurira amafaranga yawe mu gihe gito cyane.

Mu gihe habaye inama, ni byiza ko abayobozi bajya imbere bagahamagara abaturage cyangwa se urubyiruko, uwaba yarabaye uwa mbere, agahabwa ibihembo nk'umuntu w'intangarugero.